Urubyiruko rukwiye kumenya amateka yarwo kubera ko iyo bamaze kwimenya bituma hari ubushobozi wibonamo kandi mbere, batekerezaga ko hari ibyo utashobora ariko umaze kwimenya neza, ubona ko izo mbaraga nubwo bushobozi ubifite.

Mu gihe umuyobozi mukuru atugira inama zitandukanye, biba byiza iyo tuzikurikije kuko abakuru burya bareba kure kandi icyo badutekerereje kiba ari ingenzi.

Ubundi inama y'abayobozi bakomeye, urayireba ukayibwira kubera ko haba hari umuteguro mwiza ndetse bahawe n'intebe zisa neza kugira ngo igitekerezo bari butange ndetse bahurize hamwe n'ibitekerezo byubaka.

Igihe umuntu wese ashatse gutanga igitekerezo mu nama yahuje abantu benshi; ni byiza ko tumuha umwanya; maze uwo mwanya akawukoresha icyo yateguye akakitugezaho; tukaba twabasha kucyumva ndetse tukagishyira mu bikorwa igihe bibaye ngombwa.

Gahunda zose si ngombwa ko tujya kureba abayobozi kuri buri serivisi, ahubwo tugomba guhera mu masibo yacu niba dufite ikibazo runaka, cyananirana gukemuka tukabona kwitabaza ubundi buyobozi bwisumbuyeho.

Ni ingenzi ko igihe wakoresheje inama, ugomba gutegura neza aho iri bukorerwe, kuko ibintu bijagaraye ntabwo abantu babikunda, ariko niba ubyitayeho biba bisa neza kandi binashimishije.

Ahantu habereye ibirori runaka ntushobora kuhabura amatente kubera y'uko abantu bajijutse bamaze kumenya y'uko amatente ari agaragaza ibintu ko byari byiza kandi n'amafoto aba acyeye.

Abantu ba kera bakundaga kuboha imisambi ariko ubu byaracitse bisigaye bikorwa n'abantu bakeya kubera y'uko abenshi ubu basigaye bajya mu masoko bakayigurira.

Mu muco nyarwanda w'abakera, ntabwo wabaga uteye imbere nk'ubu ngubu kuko hakoreshwaga imbyino gakondo ariko ubu usanga n'ibikoresho by'umuziki bizamo, harimo nk'ingoma za kizungu n'amapiyano.

Ngo abantu bose bakunze kujya mu nama, baba bafite intego imwe, ni ukumva ibyo babwirwa ndetse bagatanga ibitekerezo, byaba byiza bakazanafatira imyanzuro hamwe ndetse ibyo byose bikagerwaho, binyuze mu bushobozi bwabo.

Mu muco wa kera ndetse n'ubuyobozi bwa kera hakundaga kuyobora umwami; bityo yagiraga ingoro ye aturamo ndetse akagira n'abarinzi benshi ku buryo nta muntu wapfaga kuhagera aho hantu.

Mu muco gakondo ndetse abantu ba kera wasangaga badatana no kuboha ibyibo, kubera ko ibi bintu byarangaga umuco w'Abanyarwanda ba kera.

Umuco wa kera, abantu bakundaga gukora ibitaramo bakizihirwa igihe ibwami habaga habaye igikorwa cyo kwishima, ariko ubungubu n'ubwo bitagikunze gukorwa hari aho umuco wasigaye bisigaye bikorwa.

Mu muco cyane cyane w'abantu ba kera, bakundaga gukoresha imivure igihe bengaga imitobe ariko ubu ngubu bisigaye ahantu hakeya, kubera ko basigaye bakoresha iterambere rigezweho ubu.

Iyo ugeze mu Majyepfo mu Karere ka Huye uhasanga inzu ndangamurage ibumbatiyemo amateka y'igihugu cyanyuzemo cyane cyane ku ngoma z'abami bagiye basimburana.

Mu muco nyarwanda bakundaga kuba bafite ibisabo ndetse bikanacundirwamo amata. Kubera ko wasangaga abakobwa barabitozwaga bakiri bato bityo bagakura bazi gucunda amata.

Niwumva bakubwira ngo umuco nyarwanda wahozeho abantu barishimaga bakabyina ntuzabihakane kuko n'ubungubu n'ubwo ugenda ugabanuka ariko uracyakorwa ndetse bakabikora no mu buryo bw'amarushanwa.

Umuco gakondo wo kubyina wahozeho na mbere n'ubu ngubu washyizwemo imbaraga usanga ku bigo by'amashuri babikora ndetse bakajya no mu marushanwa bakaba bahabwa n'amafaranga.

Abantu bakunze gukora umwuga wo gusudira bakunze kuba bafite ibikoresho byinshi birimo iby'ibyuma bityo bakaba babikoresha bategura inzugi cyangwa se bagakora amadirishya n'ibindi bigiye bitandukanye bikorwa mu byuma.

Mu gihe cya korona virusi, byari itegeko ko umuntu ategerana n'undi, bagashyiramo metero hagati y'umuntu n'undi ndetse ukaba uzi neza ko nta hantu wajya utambaye agapfukamunwa. Mu buryo bwo kwirinda ko icyo cyorezo gikwirakwizwa.

Umukozi wenyine wambaye impuzankano yanditseho kampani akorera, ishinzwe iby'amashanyarazi niwe wemerewe kuza ku ngo z'abaturage akaba akora muri kashipawa.

Muri gahunda igihugu gifite ni ugushyikiriza umuriro w'amashanyarazi mu ngo zose zigize Igihugu, ariko ibi ntabwo bizagerwaho hadakoreshejwe imbaraga z'umuturage ndetse n'umuyobozi.

Urugomero rw'umuriro w'amashanyarazi rugemurira agace runaka, rugomba gushyirwa ahantu ndetse rukanazitirwa kugira ngo hatazagira ibyo aribyo byose byaza bikarwangiriza.

Si byiza ko ari abantu bose bajya mu mashanyarazi kuyakora, ahubwo abakozi bayo bagomba kuba bambaye imyambaro igaragaza ko babizoberewe bityo bagakora ibintu ari nta muntu biteye impungenge.

Ibyuma bikoresha amashanyarazi, biba bifite uburyo babirebamo, akamenya uburyo bikora, ndetse byaba byanagize ikibazo, ababishinzwe bahita babibona, bakaba bagikemura hakiri kare.

Umuriro w'amashanyarazi uba mwiza ku batuye igihugu ariko na none iyo udakoreshejwe neza ushobora kuba mubi kurushaho kuko iyo inkongi ibaye ubuzima bw'abantu benshi burahangikira.

Gukora amashanyarazi ntabwo ari ibya buri wese bisaba ubwitonzi n'ubwitange n'imbaraga zo mu bwenge ndetse n'iz'umubiri, kubera yuko harimo ibintu byinshi byatuma ubuzima bwawe bwangirika.

Ingomero z'amashanyarazi, zijye zishyirwa ahantu habugenewe, kugira ngo hirindwe ikintu cyose cyazangiriza, kubera ko iyo byangiritse bituma n'ingo z'abantu zishobora gushya kubera inkongi.

Ingomero z'amashanyarazi ni byiza ko twebwe nk'abaturage tugomba gufata iyambere mu kuzibungabunga kuko nitwe ziba zarashyiriweho, twabona umwana ushaka kuzicokoza tukaba twamucyaha kandi tukanamuhana.

Ni byiza gukorana ubwitonzi ibigendanye n'umuriro w'amashanyarazi ntabwo bisaba ngo uba uri umuhanga cyane, nawe niba warabyigiye uri umuhanga ubikozemo nabishobora kuba byateza inkongi.

Ibikorwa remezo bigomba kuba ahantu hose kubera y'uko kugira ngo igihugu gitere imbere kigomba gushyira imbaraga ahantu hose, by'umwihariko mu nyubako n'ibindi bikorwa remezo bigiye bitandukanye.

Nta kintu gishimisha abanyarwanda nko kuba bajya muri sitade bakihera ijisho umukino runaka, kuko usanga aricyo gikorwa gikurura abantu benshi kandi kikanabashimisha.

Inganda nyinshi zikunze kuba ahantu hisanzuye ku buryo atari ibya buri wese kuba yahagera, bityo ibyo bikorwaremezo bikaba byanazitirwa kugira ngo baribirindire umutekano.

Abaturage bakunze gutaka ikibazo cy'uko aho batuye ibiraro byabo biba byarangiritse bityo leta igashyiramo imbaraga ikabubakira ikiraro kigezweho bagendera mu birere bityo bakishimira ibyo bagezeho.

Buri karere kagomba kugira igicumbi kigaragaza ako gace ugezemo yaba Akarere, Umurenge, Akagari, ukamanuka ndetse bakagaragaza n'indangagaciro zibaranga.

Iyo abaturage bamaze kubakirwa ikiraro ingendo ziroroha ugereranije n'ibyari bisanzwe, kubera ko usanga babaca amafaranga menshi kubatwarira umusaruro wabo iyo nta kiraro kizima bafite.

Igihe hari inyubako ndende ndetse hanakorerwamo ibintu by'agaciro cyane, ni byiza ko tugomba kuba dufite kizimyamwoto iruhande rw'izo nyubako kuko haramutse habaye inkongi, hakangirikira ibintu byinshi.

Byakunze kugaragara ko abantu bajyana ibihingwa byabo cyangwa umusaruro wabo mu isoko ritasakaye bakunze kunyagirwa bikaba byakwangirika bityo leta ibishyiramo imbaraga ibubakira amasoko agezweho asakaye.

Ni byiza ko buri wese agana ikigo gira ubuzima kugira arebe uko ubuzima bwe buhagaze abe yakipima arebe niba ibiro bye bikomeje kwiyongera yasanga bitiyongera akanzu kujya arya indyo yuzuye.

Buri kigo cyane cyane kwa muganga, bagomba kuba bafite imbangukiragutabara iributware umurwayi igihe arembye cyane, kubera ko batamujyana ku bindi binyabiziga ibyo ari byo byose, uretse iyi modoka yabugenewe.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru, kigomba kuba cyubatse ahantu haringaniye kugira ngo abantu bishimire aho hantu ndetse kikaba kegereye mu mijyi, ahantu hakunze kuba hari abantu benshi kugira ngo uza kureba umupira bimworohere.

Inyubako nyinshi nziza zikunze kubakwa mu rwanda; byagaragaye ko iterambere ry'igihugu cyacu ririmo ririhuta binyuze mu kubaka ibikorwa remezo bigiye bitandukanye; bityo bigakurura ba mukerarugendo.

Ibihugu bikize bikunda gushyira imbaraga mu myidagaduro bikubaka ibikorwa remezo byayo kubera ko bamaze kumenya ko iyo myidagaduro ikurura abantu benshi kandi ikinjiza n'amafaranga menshi.

Ni byiza ko abayobozi bakorera hamwe kuko ikigo nticyatera imbere baramutse batumvikanye, nyamara bagomba gufatira imyanzuro ahantu hateganijwe bityo bakayiganiraho.

Iyo ibiraro bimaze kwangirika abaturage bahora batera hejuru kugira ngo leta ibubakire ibiraro bikwiriye kugira ngo umusaruro wabo ukomeze ugende neza kuko ibiraro byangiritse hari uburyo buba bugoye bwo kugeza ibicuruzwa ku isoko.

Imbwirwaruhame zikunze kunanira abantu benshi, cyane cyane ko baba bari gutinya abantu bari imbere yabo kubera ko umuntu utabikoze kenshi aba afite ubwoba bigatuma ibyo yateguye kuvuga abyica.

Igihe habaye inama tugomba kwitabira turi benshi tukumva icyo abayobozi bacu batubwira kuko aba ari ingenzi, bityo rero buri gahunda ya Leta dushishikarizwa kuyitabira twese nk'abaturarwanda.

Biba bisa neza, kubona umumama ukuze ahabwa indangururamajwi bityo ugasanga arimo arayivugiraho kubera ko umuco abantu ba kera wasangaga batazikoresha ndetse ntibari bazi n'uburyo zikora ariko ubu buri wese yabasha kuyikoresha.

Mu kwezi kwa kane ndetse n'indi minsi ijana yo kwibuka hagomba kujya habaho ijoro ryo kwibuka ku hantu bari bwibuke jenoside yakorewe abatutsi muri icyo gitondo ikabanzirizwa n'iryo joro ryo kwibuka.

Iteka abayobozi iyo batumvikanye ntabwo bashobora kugera ku iterambere, har'igihe usanga umwe afite ibitekerezo bye n'undi ibye, bityo aho kugira ngo batere imbere ahubwo bagasenya ibyo basanze.

Ni byiza ko abacu tubaherekeza neza kandi urwo Rwibutso rukaduhora mu mutwe, kuko iyo abacu bagiye ntabwo biba bivuze ko batuvamo burundu, ahubwo tugomba kubazirikana tugahora tubibuka.

Gahunda yo kwita ku matungo ni nziza kuko ituma amatungo yororoka neza kandi akabaho nta ndwara afite, bityo itungo ryitaweho neza ntiribura kubyara umusaruro.

Nyuma y'uko umuntu wese ahawe ijambo ntawusumba undi buri wese afite uburenganzira bungana n'ubwa mugenzi we, ababyeyi na bo bafashe iya mbere yo kumva ko bashoboye ndetse banabigeraho.

Nyuma y'uko ubutabera bugeze mu gihugu cyacu kandi bugatangwa neza abantu bose basigaye banyurwa na serivisi bahabwa kubera yuko ibibazo byabo babitanga bigakemukira ku gihe.

Byakunze kugaragara ko abayobozi iyo bari mu nama bazanirwa uducupa tw'amazi bakavuga banatunywaho kuko bituma imibiri yabo ikora neza kandi ntibaze gusarara.

Nyuma y'uko tumenya ko umuturage nawe afite uburenganzira bwo gukora icyo ari cyo cyose tutitaye ngo ni umugabo cyangwa umugore, tujye twitabira gushyira imbaraga mu bintu byose kuko ubwo bushobozi tubufite twese.

Abasaza iyo ubahaye indangururamajwi bikunze kubayobera uburyo bari buyikoreshe, ariko abasirimutse bo ni ibintu biba byoroshye kuba babikora kandi mu buryo buboroheye.

Iyo ugeze ahantu byari bigutunguye ukabona harimo abantu bakomeye ndetse bambaye n'impunzankano zigaragaza ko bashinzwe umutekano ushobora gusubira inyuma ntawugusubijeyo kubera ko ubona aho hantu hatinyitse.

Izi modoka nini zitwara imizigo iremereye zigomba gukorerwa umuhanda wa kaburimbo, kubera ko mu mihanda yo mu byaro zishobora kuba zanyerera bityo imizigo zari zitwaye ntizigezeyo.

Kubera ko umuhanda ukoreshwa na benshi ni byiza ko abawukoresha baba bazi amategeko neza niyo mpamvu polisi y'igihugu idashobora kukwemera kuguha uruhushya utararukoreye kugira ngo ibyo byose ube ubizi.

Ibi ibyapa byose ku muntu ubizi aba azi icyo bisobanuye, cyane cyane nugera hano ukabona hari icyapa, hejuru y'imodoka handitseho p, ujye umenya ko aho ahantu imodoka zihahagarara.

Niba ubonye ubushobozi bwo kuba wakwigurira ikinyabiziga kandi ukabona ibyangombwa byose byo kugitwara ubyujuje, nakugira inama yo gufata amafaranga yawe, ukaba wakigura kikajya mu muhanda kigakorera amafaranga.

Leta y'u rwanda imaze kubona ko ari byiza ko umuntu wakoze urugendo agenda amenya aho ageze, yashyizeho ibyapa byanditseho agace ugezemo kugira ngo umenye urugendo rusigaye, ndetse umenye n'aho uri kubarizwa ako kanya aho ugeze.

Byakabaye byiza ko ibi byapa byo mu muhanda bigomba kuba bifite amatara bimurikaho nijoro kugira ngo umuntu wese akibone cyane cyane abatwara ibinyabiziga kuko ibi byapa biranga imihanda, ibindi bikabwira abayobozi b'ibinyabiziga amategeko.

Mu ntara y'iburasirazuba karere ka Nyagatare umurenge wa Nyagatare akagari ka Barija umudugudu wa Kinihira, iyo uhageze uhasanga indangagaciro ndetse na kirazira zigenda zibaranga.

Imodoka itwara abagenzi muri rusange igomba kuba yujuje ibyangombwa byose ndetse igasuzumwa inshuro nyinshi zishoboka kugira ngo barebe niba nta kibazo ifite, kuko iramutse gifite yakwangiza ubuzima bwa benshi.

Ni kenshi tubwirwa kujya twita ku byapa byo mu muhanda, nyamara baba barabishyiriyeho kugira ngo bituyobore kandi bitume twubahiriza amategeko yo mu muhanda ariko usanga abenshi batabyitaho.

Niba utwaye ikinyabiziga ukagera mu muhanda ukabona iki cyapa, ujye ukitondera kuko kivuga guhagarara, bityo ukabanza ukareba niba impande zose nta cyago gihari, ubundi ugakomeza urugendo.

Buri gihe biba byiza iyo urangiye umuntu ukamubwira nimero y'icyapa, kuko ibi bishobora gutuma atayoba, aho kugira ngo murangire ngo n'ahantu hameze uku, bigatuma asanga ibindi bisa na byo akaba yayoba.

Igihe umuvugizi mukuru wa polisi arimo aratanga amabwiriza, tugomba kuyumva neza cyane cyane byakunze kugaragara nko mu bihe bya Korona virusi iyo umuvugizi yatangaga raporo y'ibyabaye ndetse n'abanduye, ibyo twabihaga agaciro cyane.

Ubuhinzi bwakunze kugaragara ko nabwo butuma abantu biteza imbere, kubera ko hari ibice bitunzwe n'ubuhinzi ndetse bamara guhaza imiryango yabo bakaba basagurira n'abandi.

Biba byiza ko igihe cyose leta yatangaje umuganda umuntu wese agomba kuwitabira kubera ko burya ibyo dukora ntabwo aba ari inyungu za leta ahubwo aba ari inyungu zacu muri rusange.

Polisi y'igihugu yazanye gahunda nziza ya Gerayo Amahoro kugira ngo abantu birinde abatwara abagenzi babatware neza babashyitseyo amahoro twirinda gutwara ku muvuduko uri hejuru kuko ibi bishobora guteza impanuka ntitugereyo amahoro.

Nyuma y'uko abaturage bavuye mu muganda cyangwa ikindi gikorwa cyabahuje ari benshi, bagomba kwicara hamwe bakaganirizwa, ibyakubaka igihugu ndetse n'ibyateza imbere ingo zabo muri rusange.

Si byiza ko igihe twagiye mu nama runaka itubwiramo ibintu by'ingenzi, tugomba kujya mu matelefoni tukarangara, kubera ko hari byinshi biducika iyo twigiriye mu matelefone mu gihe kitari icyabyo.

Si byiza ko umuntu umwe yijyana mu ishyamba, kubera ko rishobora ko hari n'ibintu byamugirira nabi, agomba kureba abandi bakajyana kugira ngo abe yizeye umutekano we.

Ahantu habaye ibirori bikazamo abayobozi bakomeye, bakunze kuhashyira amatente kugira ngo bigaragare neza bityo rero iyo uhabonye amatente utekereza ko habereye igikorwa gikomeye.

Iyo hari igikorwa cyabaye ku kibuga cy'umupira w'amaguru amakipe agiye gukina uwo mukino arabanza agafata amafoto y'urwibutso maze umusifuzi akabona gutangiza uwo mukino.

Imyitozo ngororamubiri ya rusange iba ari ingenzi ku buzima bw'umuntu uwo ari we wese, bityo abaturage dukangurirwa kujya dukora siporo, byibura niba binatugoye tukayikora rimwe mu cyumweru twahuriye hamwe.

Nyuma y'uko Leta y'u Rwanda isanze ko imyitozo ngororamubiri ari kimwe mu bintu bizana ubucuti, abantu bakiyumvanamo, urukundo rukazamuka, ibyo bikorwa yabishyizemo imbaraga kugira ngo abantu bahore babanye neza.

Kubera ko uburinganire n'ubwuzuzanye byaje ahantu hose, ubu n'umugore cyangwa umukobwa ashobora kujya mu kibuga agahagararira abandi basifuzi akaba ariwe asifura uwo mukino kandi ukagenda neza.

Mbere y'uko umukino utangira, amakipe agomba gufata ifoto y'urwibutso, maze bakabona gutangira umukino nyirizina. Ibi byagaragaye ko ari ukunga ubumwe ndetse no kwishimirana hagati y'impande zombi.

Mbere y'uko abakinnyi bajya mu kibuga babanza gukora imyitozo yoroheje bazenguruka ,kugira ngo umubiri wabo ushyuhe bityo baze kujya mu kibuga bameze neza kandi bafite imbaraga zose.

Mu Rwanda usanga amakipe menshi atagira ibibuga, keretse aya ngaya aba yishingiwe n'Akarere kandi nayo nta bushobozi buhagije aba afite bwo kuba yakiyubakira icyo kibuga.

Usanga ku bibuga hateraniye abantu benshi baje kwirebera umupira kubera yuko bawukunda ariko abantu bose baba bahari siko bawukunda ahubwo hari n'abandi baba bazanywe n'ibindi bintu bitandukanye.

Abantu bakunze gushimishwa no kujya kureba umupira ku bibuga bigiye bitandukanye kubera y'uko bibaha ibyishimo bigatuma baruhuka mu mutwe ndetse n'ikipe zabo bafana iyo zitsinze bakishima cyane.

Ubundi iyo hubatswe igikorwa remezo cy'ikibuga, abayobozi bakomeye nibo bagomba gufungura icyo kibuga ubundi kigakinirwamo ku mugaragaro ariko babanje gukora ibyo.

Abakinnyi bigaragara ko ari abantu bagira ikinyabupfura gihagije kuko bakunze kubana neza ndetse bagakinanira neza, kuko ibyo iyo batabikoze hari umuyobozi wabo ushinzwe kubahana akaba yabaha amakarita.

Ibikorwa remezo cyane cyane ibya siporo na byo byashyizwemo imbaraga nyinshi kubera ko leta yacu yamaze kubona ko abanyarwanda bakeneye siporo cyane kandi akaba ari nacyo gikorwa bibonamo cyane irangije ishyiraho ubwo buryo bwo kubaka ibyo bikorwa remezo.

Ntabwo biba bisa neza, kujya mu nama warangiza ukirangarira kuko ikiba cyakuzanye ntabwo uba uri kugikora ijana ku ijana nk'uko waje wabyiyemeje.

Iyo umuntu agiye mu myitozo ngororamubiri, cyane cyane ari bukine umupira w'amaguru, agomba kuba yambaye imyenda yabugenewe yo gukoresha siporo kugira ngo adasa na mugenzi we wundi bari buhurire mu kibuga.

Ni byiza kwitonda igihe tugenda mu muhanda kubera ko bashobora kuba batugonga igihe turangaye bityo ubuzima bwacu bukajya mu kaga kandi twari dufite uburyo bwiza bwo kuburamira.

Iyo ugeze mu cyaro; ubona imihanda itandukanye n'iyo mu mujyi; kubera ko iyo mu mujyi; hari imihanda utabonamo igikungugu ndetse no mu gihe cy'imvura ushobora kubonamo ibyondo ariko iyo mu cyaro ibi ni byo biyiranga.

Ahantu hatari umutekano si byiza kugenda tuvugira kuri telefone cyane cyane mu masaha ya nijoro, kuko bashobora kukwambura telefone, ndetse bakabanakwambura n'ibindi byawe wari utunze bakakugirira nabi.

Iyo imihanda yangiritse usanga ingendo zihenda abaturage cyane, kubera yuko amafaranga ahita azamurwa kubera bavuga ko esansi iba yanazamutse.

Iyo ugeze mu cyaro usanga hari utuyira twitwa inzira za bugufi abantu bazi ariko mu mijyiho kubera ko aba ari imihanda rusange igendwa cyane, utwo tuyira dukunze kuba duke.